Abagore n'abana bicaye kandi bafite amakaye ndetse n'impapuro zanditseho. Kandi bakaba bakurikiye ibiganiro biri gutangwa. Abo bagore bikenyeje ibitambaro umutwe abandi bo ntibabyikenyeje kandi bakabambaye amakanzu yo mu bitenge.